Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri bicaye ku meza, imbere yabo hari tabureti ndetse n'amakayi, bafite n'amakaramu mu ntoki ku meza hateretse amazi y'uruganda rw'Inyange mu ducupa.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya, waboshye imisatsi, ari kuri robine ari gukaraba intoki zombi mu ibasi y'umukara, inyuma hari korotire yabakishije amatafari ya rukarakara.

Mu rugo hubatse agatara kariho ibyombo, amasahane, ibikombe, ibisorore, ku ruhande ni urugo rwubakishije imiyenzi ndetse mu rugo hari ibiti byahameze.

Abagore n'abagabo bicaye muri sale batonze umurongo, hagati muri bo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'abarimu bambara bari kwigisha, wambaye inkweto z'umweru, iruhande rwo hino hari ameza arambitseho urupapuro rw'umweru.

Kuri robine hari umwana w'umuhungu uri gukaraba, imbere ye hari agapipa gatoya, inyuma ye hari indobo ndetse hari imbuga, hirya y'iyo mbuga hari ibiti bitandukanye.

Abagore babiri bicaye mu nzu imbere umwe yambaye impuzankano y'abaganga undi aricaye ateruye umwana, uyu mugore wambaye impuzankano y'abaganga ari guha uyu mwana umuti amwasamura amusuka mu kanwa.

Kuri robine hari abana b'abahungu bane bahagaze, umwe ari gukoresha robine, undi ahagaze imbere ya robine imbere y'injerekani iteretse kuri robine, umusore umwe yambaye ibote afite agakoni mu ntoki kandi yambaye n'umupira utukura. Inyuma yabo hari ibyatsi.

Ku ishuri abanyeshuri bambaye yunifomo bari iruhande rw'ameza ariho amazi yo kunywa, umwe afashe agakombe ari gusuka amazi, abandi bategere yuko arangiza ngo banywe ni ameza abiri kandi buri meza agiye ateretseho amazi ndetse n'udukombe.

Umugabo wicaye ari gushyira agapapuro ku kaboko k'umwana, umwana ari kumwitegereza mu maso, umudamu uri imbere y'umwana ateze igitambaro mu mutwe, hirya hari umugabo wicaye ufite ikaramu ndetse n'akantu ari kureba yambaye impeta ku kuboko kurimo ikaramu, imbere ye hari impapuro ari kwandikaho.

Abantu babiri bari kuri robine, uri imbere yipfutse igitambaro mu mutwe ari kuvomera injerekani, uri hirya nawe ari kuvomera injerekani afashe kuri robine.

Ni kwa muganga aho bapimira abana, hari abagore babiri bicaye ndetse hari n'abagabo babiri bahagaze, umwe uri imbere ahagaze mu buryo ari kwisobanura iruhande rwe hari umunzani ndetse agakabutura abakoresha bari gupima abana.

Mu ishuri abanyeshuri bambaye impuzankano, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amasomo bari kwiga, ku ntebe imbere hari amasahane ariho ibyo kurya ndetse n'ikiyiko, umwe muri bo ni we ufite ikiyiko mu ntoki, ari kurya.

Umugore ndetse n'umwana wambaye impuzankano y'amashuri abanza, umugore arimo aramukarabya, umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira wubururu. Bari iruhande rw'uruzitiro rw'ibiti.

Umusore uri gukarabira mu ndobo wambaye ikabutura y'umuhondo n'isengeri ry'umukara, iruhande rwe hari umwana ateru arozwari uri kumusukiraho amazi wambaye agashati k'amaboko magufi n'agakabutura ndetse n'inkweto za kamambiri.

Abantu bicaye, bahanze amaso imbere yabo, ku meza hari amazi y'uruganda rwa Nile, hari na telefone icaginze. Ayo meza ariho igitambaro, cy'ubururu.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe zikozwe n'akajerekani.

Umugore wunamye kuri robine ari kuvomera injerekani y'umuhondo, iruhande rw'iyonjerekani hari akajerekani gatoya. Hejuru kuri robine hari imipfundikezo ibiri y'aya majerekani inyuma y'uyu mugore wunamye hari ibihuru.

Umukobwa wari mu mugezi, wambaye ipantaro y'umukara na bodaboda z'umuhondo, afite igitenge ku rutugu akaboko yagashyize inyuma mu mugongo, ari kuvoma ku mazi, iruhande rwe hari umwana uhicaye.

Abagabo bahagaze ku kumurongo bari kwifotoza, bambaye impuzankano, bambaye imidari, imbere hari abantu bicaye batatu, umwe afite raronje ageretse akaguru ku kandi, yambaye ikoti ry'umukara.

Abagabo n'abagore bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo hari ihema abantu bicayemo ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hino imbere hari abagabo babiri bambaye bote ndetse n'abandi babiri ndetse hari n'abandi bicaye hasi ku ntebe, no hasi muri pasikarume.

Abana bambaye yuniforome imipira isa hejuru bari ku murongo bafatanye ku ntugu barishimye nyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye urugi rusize irangi ry'ubururu.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hicaye abantu, abagore ndetse harimo n'umugabo umwe; ku ruhande hari televiziyo ndetse hari na kamera ihagaze hagati muri bo bari gukoresha bareba ikiganiro.

Umwana w'umukobwa ukiri muto asutamye kuri robine ari gutega amazi akoresheje ibiganza' ku ruhande hari amajerekani atatu, abiri y'umuhondo ndetse n'imwe y'ubururu. Ku ivomero rusange hirya hari ibihuru byegereye umuhanda.

Abana babiri basutamye kuri robine, imbere yabo harunze igitaka, bari gukaraba mu ntoki bombi umwe yambaye agapira gatukura, undi yambaye umwenda hasi no hejuru birasa, inyuma yabo hari ibyatsi byumye mu murima.

Abagore n'abagabo bambaye unifomu z'abanyabuzima, hagati muri bo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikote ufite terefone mu ntoki. Ahagaze ahantu hashashe amapave, inyuma yabo hari igiti cy'umunyinya.

Umugore wikoreye injerekani y'umuhondo iruhande rwe hari umwana wambaye akashati k'ubururu ndetse hari n'undi wunamye wambaye agashati k'umuhondo hirya hari ibimera ari kwerekeza ku marembo ahantu hakinze.

Umwana wishimye ari gukaraba mu ibasi kuri kandagira ukarabe ikoze mu ndobo, inyuma hari inzu yubakijije amatafari ndetse no hirya hari indi nzu yubakishije amatafari, hasi hari amatafari yamenaguritse.

Abagabo n'abagore bicaye muri sale, imbere yabo hari amakaye ndetse bafite amakaramu mu ntoki zabo bari kwandika hateretse uducupa, hagati yameza n'andi hari indabyo, hirya ku rukuta hari televiziyo, mu iguni hari ifoto ndetse na enterabuteri bakirizaho amatara.

Inzu ebyiri inzira ijya muri izo nzu ishashemo garaviye ndetse ku nzu imwe hari umugabo uhahagaze. Urugo ruriho senyenge ndetse iruhande rwa senyenge harunze igitaka, mu imbere mu rugo harunzemo amatafari.

amazi atemba batezeho ikigongoboro cy'isina kugira ngo babone uko bajya bavoma umukobwa ndetse n'umwana, umukobwa wunamye mu mazi wambaye bodaboda z'umuhondo.

Abagore bateruye abana bambaye imipira y'umweru hejuru, umugabo wambaye umupira ujya kuba umuhondo na rineti ndetse afite umusatsi mwinshi arimo arakinisha akana ari ku gakirigita.

Umukobwa ukiri mutoya uri ku ivomero, kuri robine arikoza indobo ari kureba yishimye yambaye udukamambiri ndetse n'ikanzu y'umweru irimo utudomo tw'umukara hirya hari ibiti.

Abadamu batatu imbere bafite urupapuro rwanditseho, hirya hari abagabo babiri nabo bafite urupapuro rwanditseho, inyuma yabo hateye ubusitani, ni abantu n'inyuma hari abandi bantu benshi ndetse hirya hari akazu gatoya gahari.

Abana bari kumwe n'umugore wambaye rinete ndetse yifubitse n'igitenge, bari kwitegereza imbere yabo bishimye, bari kureba nk'amakuru cyangwa ikindi kintu gishimishije.

Umugore uteruye umwana, yambaye ibitenge kandi ateze n'ikindi gitenge mu mutwe, afite urupapuro mu ntoki, hirya hari umugore ufite umwenda w'umweru mu ntoki, hirya y'uwo mugore hari umugore nanone uri guha umwana ibere.

Abagore ndetse n'abakobwa bambaye imyenda itandukanye bari kubyina bateze amaboko. Harimo uwambaye ikabutura y'igitenge ndetse n'abandi bambaye amakanzu ndetse n'abandi bambaye imipira.

Umugabo uri gukorera umwana injerekani iriho icyapa, uyu mwana yambaye agapira gafite ibara rijya gutukura ndetse uyu mugabo yambaye umupira w'ubururu, imbere harimo ibara ry'umweru, aba bantu uko ari babiri barishimye kandi ukuboko k'uyu mugabo kwambaye isaha, kuracyafashe ku njerekani.

Abana benshi bari kuri robine bose bari kubyiganira gukaraba, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse hari n'ibiti byameze ku ruhande rwo hepfo.

Umugabo wambaye impuzankano y'abanyabuzima, ari kumwe n'abagore bateruye abana, hejuru yabo hari umunzani bari gupimishirizaho abana.

Iyi ni ifoto iri mu ruziga y'umugore n'umwana. Umugore arararamye ari kwitegereza umwana mu maso ndetse umwana nawe ari kumureba ari kugaragara akaboko kamwe. Ni ifoto yijimye.

Umwana w'umuhungu ndetse n'uw 'umukobwa bari kuri robine, umwana w'umukobwa ari kuvoma undi w'umuhungu ari guhaga robine kugira ngo izane amazi. Hirya ya robine hari ibyatsi bihateye.

Abantu batandukanye bicaye muri sare bari mu nama abagore n'abagabo. Imbere hari ameza ariho ibikapu ndetse n'udupipiri turimo amazi y'uruganda rwa nile, hari umugore wambaye agakote k'umukara ndetse n'ikanzu ahagaze imbere yabo bose arimo arababwira bamwe bafite amakaramu abandi bari kureba muri telefone.

Umugabo n'abagore babiri, bateruye umufuka, umugabo ahagaze hejuru y'indi mifuka, abagore babiri bari kumuhereza undi mufuka kugira ngo ayipange neza.

Abantu barindwi abagabo bane n'abadamu batatu, umugabo wa mbere yambaye ipantaro y'ikigina na telefoni mu ntoki ndetse n'ishati irimo utubara tw'umweru, umugore uri hirya ku ruhande yambaye ishati ijya kuba ikigina, afite n'impapuro mu ntoki ndetse umugabo umwe urimo hagati yambaye impuzankano y'abaganga.

Imodoka ebyiri nini ziri mu muhanda w'umukara, kuri izo modoka, imodoka y'imbere ifite ikinyoteri kiriho amabara y'umutuku ndetse n'umweru, imodoka y'inyuma iriho ibyapa bibiri bimeze kimwe.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'ubururu ndetse n'akagozi gatukura mu ijosi, undi yambaye ishati y'umweru ahetse n'igikapu mu mugongo, barimo baraganira uyu uhetse igikapu mugongo ari kumuha ingero, inyuma y'uyu mugabo wambaye umupira w'ubururu hari umugabo uri kuvugira kuri terefone.

Ku ivomero rusange hari abantu batandukanye abana, abagore b'urujya n'uruza, hari umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo ari kuvoma afite injerekani mu ntoki ndetse hari n'umugore wambaye umwenda hejuru w'umuhondo, ateze n'igitambaro nawe ari kuza agana aho bavomera.

Abagabo n'abagore bahagaze ku murongo bambaye inifomu y'abaganga ndetse n'imidari mu ijosi, mo hagati harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara na karuvati, inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Abagabo n'abagore bicaye muri sale, hari umugabo ubicaye imbere, bose bahanze amaso, wicaye iruhande rw'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda. Bicaye muri sale, inyuma ye hamanitse igitambaro.

Umugabo uri kuri robine atsikamiye injerekani yambaye ishati y'amaboko magufi arishimye, yambaye ipantaro y'umukara inyuma ye hari uruzitiro rw'ibiti ndetse n'ibindi byatsi bikiri bitoya.

Umwana ukiri muto w'umukobwa, uboshye imisatsi, ari gukaraba, akabira mu ibasi yambaye imyenda ikoze mu gitenge, irimo amabara atukura n'ay'umukara, yegereye korutire yubakishije boroke sima.

Abana babiri b'abahungu umwe yambaye ishati ndetse n'ipantaro bisa undi yambaye agapira gatukura bari kuri robine bari gukarabira rimwe mu kabande.

Abantu batonze umurongo ku ivomero rusange ririho robine ebyiri, bamwe bari kuvomesha indobo, abandi bari kuvomesha amajerekani ndetse n'utujerekani dutoya.

Umugabo wambaye impuzankano y'abaganga, yambaye umudari mu izosi ndetse n'ishati y'amaboko maremare. Ari gutera umwana ku rutugu urushinge, umwana wambaye impuzankano y'abanyeshuri na we.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'abaganga, inyuma yabo hari umugabo wambaye ikositimu ipantaro nini n'ikoti ry'umukara, ndetse na karuvati n'ishati y'umweru ari gufotora. Imbere ku meza harambitse ibyangombwa ndetse hari n'abandi bagabo bari kubirambika ku meza.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri umwe ari kureba apepera abantu, bari ku rukarabiro bari gukaraba bamwe bambaye bodaboda, hirya hari ishuri ryubakishije amatafari ririho n'ibara ry'umweru.

Kuri robine hari umwana wambaye agapira k'amaboko maremare yakazinze ku maboko gatukura, arimo arakaraba ari gukebuka umuntu ushobora kuba ari kumufotora, hirya hari uruzitiro rw'ibiti ruriho ibyatsi bitandukanye.

Abantu benshi abagore n'abana ndetse n'abagabo, bari ku ivomero rusange, abana bafite indobo z'umuhondo mu ntoki zabo, abakobwa bicaye ku majerekani, umugabo wambaye ingofero y'abubatsi ari gufungura amazi.

Kwa muganga abagore babiri baje kwisuzumisha, abaganga babiri bari gusuzuma abo bagore ku rutoki, hagati y'abaganga babiri, hari umugore wambaye ikote ry'umukara uri kwitegereza imbere, inyuma yabo hari umuntu wambaye ijire yo mu bwubatsi.

Umugabo n'umwana, bambaye imyenda isa hejuru, umugabo wambaye rineti, umwana ahagaze ku munzani, uwo munzani ucometseho akamashini kameze nka terefone, bahagaze ku mukeka uri mu mabara atukura n'ubururu, hejuru yabo hagaze abantu.

Abagabo bicaye iruhande rw'ameza manini, ku meza hari mashine ndetse na raronje zicaginze, izo mashini imbere hari abagabo babiri bambaye ikositimu, ndetse n'umugore umwe uri kubitegereza, hirya hari icyapa kiriho amashusho, hino hari umuryango basohokeramo.

Umugore ufite ibisuko mu mutwe ndetse ibiganza byose biri gukora mu mutwe, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, yicaye yubitse umutwe.

Abagore n'abagabo batandatu, bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umweru, imbere yabo hari intebe, zicayeho abantu bagaragara imitwe.

Umugabo uri mu muhanda iruhande rw'imodoka, yambaye inkweto ndetse n'amapantaro acikaguritse, mu kuboko ko ruguru harimo ikintu afite mu kwaha ndetse n'uko ku rutugu rwo hepfo afite ibikapu bibiri, yambaye isengeri icitse kandi mu kanwa atamiye akantu.

Abantu benshi bicaye muri sale, imbere y'abo hari ameza, ndetse n'umugore uhagaze wambaye ikote ry'umukara, imbere y'uwo mugore hateretse udupipiri tubiri turimo amazi y'uruganda rwa Nile, imbere y'utwo dupipiri, hari ibikapu bihateretse.

Bahagaze imbere y'umuryango, bari kwifotoza, bakoze imirongo itatu, umwe mugufi uri imbere, n'undi ukurikiyeho wisumbuyeho, n'undi uri inyuma muremure.

Umukecuru utetse mu isafuriya iruhande hari umupfundikizo w'safura ndetse n'ibikombe bibiri yambaye ibirenge yicaye ku gatebe kandi yambaye n'ibitenge.

Abantu bicaye, imbere yabo hari uducupa turimo amazi ndetse na mashini ziteretse ku meza, umugore umwe muri bo afite mikoro mu ntoki, ari gutanga igitekerezo.

Umugore wicaye mu ishyamba iruhande rw'igiti, yicaye ku musambi uzinze, ku kaguru ke, hariho umunyururu, ni umunyururu ufungiye ku giti, inyuma ye hari ibindi biti byinshi ndetse kuri buri giti hagiye harunze imyenda, hamwe hateretse n'amajerekani.

Umugabo uhagaze neza wishimye, yambaye ishati y'ubururu bwijimye y'amaboko maremare, ahagaze mu busitani, inyuma ye hari abantu benshi, ahagaze mu buryo ari kwifotoza.

Abantu bafashe urupapuro bari kwifotoza inyuma yabo hari imodoka, bahagaze ahantu hari ubwatsi bukeya, ku ruhande hari umugabo washyize amaboko inyuma abuhagaze iruhande.

Imodoka ihagaze mu busitani, imbere yayo hari abantu bari mu matsinda atandukanye bicaye ku dutebe, imbere y'iyo modoka hari abantu bahahagaze imbere y'aho shoferi atwarira, imbere y'aha umuryango ukinguye niho hicaye abantu kandi abo bantu uri kubona ko harimo n'abafite amakaramu, inyuma yayo na ho hahagaze abantu.

Abagabo batatu bicaranye n'abagore babiri bari kumwe n'umwana, imbere y'inzu ikinguye. Inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibindi biti bihateye.

Abana benshi batonze umurongo mu kayira gatoya iruhande rw'ibyatsi byagiye byuma, bambaye bamwe ibirenge ndetse bafite n'utujerekani mu ntoki zabo bari kwerekeza aho bavomera.

Abagore bicaye ku murongo, hagati harimo abagore babiri bafite ikayi n'ikaramu, imbere yabo hari umugabo uri kuzamura akaguru k'ipantaro abereka wicaye ku ntebe y'urubaho, inyuma y'aho hari urutoki ndetse muri urwo rutoki harimo n'ibindi biti.

Abanyeshuri bambaye amapantaro ndetse n'inkweto zifunze n'imipira isa hejuru, yanditseho. Bari kumwe n'abarimu babo, umugore ku ruhande ndetse n'umugabo urimo hagati, wambaye ishati y'umweru na karuvati.

Muri sale ahicaye abagore bamwe muri bo bahetse abana, imbere yabo hari umugabo uri kwandika ndetse hari n'icyapa kimanitse inyuma ye, ku meza hariya inyuma y'uwo mugabo hari agacupa karimo amazi.

Abana bafite borosada bambaye yunifomu y'ubururu hejuru, umwe uri imbere yayikuye mu kanwa asa n'uyerekana abandi bo barakiborosa.

umwana wegamye ku musego utukura, arasamye umuntu uri kumukozamo intoki ebyiri mu kanwa, ari kumusuzuma amenyo yambaye ga.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ndetse na rineti, ari kumanika amashusho mu nzu ariho ibishushanyo bitandukanye, igishushanyo kimwe kiriho umwana, ikindi kiriho amapantaro abiri ndetse n'ikindi kiriho amapantaro abiri, hirya hari igishushanyo kiriho ibara ry'umukara nacyo yarangije kumanika.

Umugabo n'umugore, umugabo wambaye imyenda y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, umugore yambaye imyenda y'umukara hejuru ndetse n'igitambaro cy'ubururu, bari gusuzuma umuntu mu kanwa, wambaye rineti ndetse n'ishati y'ubururu.

Sale irimo intebe eshatu mo hagati, ku mpande hari udusanduku tumanitse ku rukuta, hejuru muri parafo hari amatara, ari kwaka.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'imyambaro y'ubururu, arimo arakura umuntu amenyo, ugaramye uri kureba hejuru, arasamye.

Umuntu uryamye ugaramye, wasamye bari gukura amenyo, umuntu uri kumukura amenyo yambaye impuzankano z'abaganga, afite utwuma tubiri ndetse yambaye na ga abaganga bakoresha bari kuvura abantu.

Umugabo wasamye, wambaye umwenda w'umweru hejuru, afite urudodo mu ntoki ze, yarushyize mu kanwa, mu menyo.

Umugabo wambaye impuzankano y'abarimu, afashe umwana ku rutugu inyuma ye hari abadamu babiri, ku kibaho hari amasomo, wigiye ku ruhande hari umugabo wifashe neza wambaye ikositimu, yambaye isaha ndetse n'agashati k'umweru.

Umugore ufite indorerwamo mu ntoki ze, yambaye umupira w'amaboko maremare, ari kwikora ku kananwa, yambaye amaherena ndetse yaboshye n'imisatsi.

Kwa muganga umugabo yaje kwikuza amenyo, umuganga wambaye karuvati itukura ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, arimo aramusuzuma mu kanwa. Inyuma yabo hari amarido, ndetse n'agakarito karimo ga.

Umugabo wambaye rineti utagaragara neza mu maso, uri kugaragaza amenyo ye yasetse kandi atunze urutoki ku munwa, afite ubwanwa ndetse yambaye umupira w'umweru w'ingofero.

Abana bambaye impuzankano, buri wese afite burosada, burosada buri wese afite iri mu kanwa ari kwiborosa, buri wese afite agakombe karimo amazi mu ntoki ze.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse na rinete, ari gusuzuma umuntu mu kanwa uryamye agaramye, akoresheje aküma kabugenewe, ari kumwe n'umuntu wambaye uniform yaba travael ndetse na ga, agaragara igice cyo hasi.

Umuganga uri gukura umwana amenyo uryamye, inyuma yabo hateretse uducupa turimo imiti, ndetse na purize zicometseho imigozi. Hirya yabo hari ibitabo biri hejuru bimanitse.

Umugore ugaragara neza wishimye, uteruye akuma mu ntoki, inyuma ye hari umugabo nawe uduteruye ari tubiri mu ntoki, ndetse n'abandi bagore badateruye mu ntoki, inyuma hari igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi.

Umugore urikumwe n'umwana, umugore wambaye umupira w'amaboko maremare. Umwana wafunze imisatsi ye, bari ku meza bari gukina umukino. Inyuma yabo hari intebe, itagize umuntu uyicayeho.

Abagabo n'abagore bicaye munsi y'igiti, bicaye bakoze uruziga, bahanze amaso ku kintu runaka, babiri bari imbere bicaye ku ntebe z'umweru, hirya hari abagore abagore babiri n'abagabo bicaye ku ntebe, ku ruhande hari abagabo bicaye hasi begamye ku giti hirya hari inzu ebyiri.

Umugore n'umugabo bicaye, ku meza hari udusorori tubiri turiho amafunguro, inyuma yabo hahagaze umugabo ufashe ku ntebe umugabo yicayeho, wambaye umudari mu ijosi ndetse na rinete. Hirya yabo hari abantu batatu na bo bicaye ku meza, barimo bafata amafunguro.

Abantu babiri, umwe ahagaze afite ikirahure, yambaye rineneti ari kwitegereza uyu mugore uri guseka akata imboga, imbere yabo mu gasore hari imbuto ndetse hari n'izindi mbuto ziri ku isahani hino, uyu umugore ari gukata izi mboga, inyuma ye hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye na etajeri irimo udukombe, amasahani n'ibindi.

Umugabo n'umugore bahagaze iruhande rw'inzu, umugabo yambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare na linete, bafatanye mu kiganza barishimye.

Umugore n'umugabo, umugabo afite akantu mu ntoki, yazinze amaboko y'ishati, yambaye ishati y'umweru ndetse n'amarinete, umugore yambaye ikanzu itukura, ndetse n'umudari mu ijosi, w'ibara ry'umweru.

Abagore batatu bakuze, bari kwifotoza barishimye, umwe uri hagati muri bo ni we ufite telefoni mu ntoki arimo arabafotora barasetsa bahagaze ahantu hitaruye hirya yabo urabona ko hari ibiti, haparitse n'imodoka.

Mu muhanda abakecuru babiri bambaye imyenda igaragaza ko batashye ubukwe, ndetse inyuma yabo hari urubyiruko ruri kuza rwirukanka rugiye kubacaho, ndetse n'abandi benshi barimo baza berekeza mu cyerekezo kimwe.

Abagore babiri bahagaze bari kureba mu cyerekezo kimwe bishimye, uri imbere ukuboko yarambuye kuriho igipfuko cy'umweru, uri inyuma yambaye amaherena ndetse n'imisatsi ishumitse hejuru.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru, umugabo yambaye umupira w'umweru na linete, umugore ari gukina utuntu ku meza hamwe n'umugabo we barishimye.

Umukecuru wicaye ahantu atetse ku mashyiga, atetse mu isafuriya kandi iyo safuriya hari indiyipfundikiye. Umukecuru yambaye agatambaro k'umweru n'ishati y'umweru, inyuma ye hari umufuka imbere ye hari inkwi ari gucana.

Umugabo n'umugore bicaye, imbere yabo hari mashini ndetse n'uducupa tubiri turimo ibinini ndetse n'impapuro, umugabo afite agacupa mu ntoki, ari kwereka umugore ibintu birimo, bari gusoma i icyapa kimanitse kuri ako gacupa k'umukara, bafite mu ntoki.

Umugore umugabo bicaye ku meza, umugabo afite ikiyiko kiriho ibyo kurya agiye gutamira, umugore afite ikirahure ari gusukamo ji ku meza hari udusahane, ndetse hari n'indi sahane iriho pome ndetse n'ibindi byo kurya.

Umugabo n'umugore bicaye, umugabo afite terefoni mu ntoki, umugore yambaye umwenda w'umweru hejuru, bafite urupapuro mu ntoki zabo bararufatanyije, bari kurusoma. Hasi hari izindi mpapuro nyinshi zirambitse ku meza.

Umusaza n'umukecuru barishimye cyane, umusaza gusoma umukecuru ndetse umukecuru amufashe ku rutugu n'umusaza amufashe ku rutugu, umukecuru yambaye agatambaro gatukura.

Umusaza ndetse n'abana babiri, umusaza wambaye ishati nini y'amoboko magufi y'umweru bafite ibintu mu ntoki bari kurya bicaye imbere y'umuryango, umwana uri kuruhande hirya afite agacupa karimwo ibyo kunywa ndetse urimo hagati yifashe ku munwa akoresheje urutoki.

Umugore n'umugabo bicaye barebana, umugore afite agakarita n'ikaramu mu ntoki, imbere y'umugabo wicaye, wambaye rinete hateretse ikirahure, imbere y'icyo kirahure hateretse ikaye irimo impapuro.

Umugabo n'umugore bicaye ku ntebe, umugore yegamye ku mugabo, ufite inkoni mu ntoki, umugabo yambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufiya, umugore nawe yambaye umupira w'amaboko maremare nawo w'ubururu.

Umugabo n'umugore, umugore wambaye impuzankano y'abaganga ndetse umugabo afite ikibazo ku kaboko, hacometseho imashini, bicaye ku meza, umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare ya kaki.

Abantu babiri: Umusaza n'umugore ukiri mutoya, umusaza yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, umugore uri inyuma ari kumusunika, yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, iruhande rwe hari imashini zicometseho insinga ndetse hari n'umuganga ugaragara igice cyo hasi umuhagaze iruhande.

Umugabo n'umugore bicaye mu nzu, ku meza hateretse agacupa, ndetse n'ikirahure kirimo amazi, umugore afite urupapuro arimo asomera umugabo. Umugabo ateze ikiganza agiye gusuka ibintu biri mu gacupa ku kiganza, hirya mu nzu hari etajeri, hirya ndetse harirido y'umweru.

Abagore babiri bicaye ku ntebe, umwe ari inyuma y'undi, umugore uri imbere yambaye umwenda w'umweru hejuru, uri inyuma yambaye umwenda w'icyatsi kibisi urimo amabara y'umweru

Abagabo babiri umwe yambaye impuzangano y'abaganga bafite urupapuro mu ntoki bari gusoma, ku meza harambitse izindi mpapuro ndetse n'ikaramu.

Umugore ufashe mu kiganza umukecuru wambaye rineti iruhande rwabo hari ururabo, inyuma y'uwo mugore wambaye imyenda y'umukara, hari umuryango ndetse umugore yambaye umugozi mu ijosi.

Umugore uri mu nzu inyuma hari amadirishya adakinguye afite ibyo kurya ku isahani mu ntoki afite ifoke ari kwitegereza agaragaza ibyishimo bidasanzwe.

Umugabo n'umugore, bicaye ku meza, hari ibyo kurya imboga ndetse n'ibitera imbaraga, imbere yabo hari ikirahure kiririmo amazi, umugore afite ifoke ari gutamira kandi we numugabo ari kumwitegereza yishimye.

Umukobwa wicaye mu busitani burimo indabo, arunamye afashe ku maguru, yambaye ipantaro itukura ndetse n'umupira w'amaboko, ufite akabara gatukura hirya mu ngofero, mu mutwe harimo menshi yazinze zihambiriye.

Abantu babiri bicaye iruhande rw'ameza, umuntu umwe ari gukanda umugore akaboko, imbere y'uwo mugore hari mikoro ndetse inyuma yabo hahagaze abandi bantu.

Umugore n'umugabo. Umugabo wambaye kositimu y'umukara ndetse n'umudari mu ijosi. Umugore yambaye ikanzu ngufiya irimo amabara n'umudali mu ijosi. Ahantu bahagaze hashashe amapave, bahagaze iruhande rw'icyapa.

Kwa muganga abagore bateruye abana barishimye. Hejuru yabo hamanitse amafoto. Ifoto imwe muri bo iriho umugore uteruye mwana urikumuha iberi.

Abagabo batatu n'abagore batatu bahagaze ku murongo, hejuru ku mitwe yabo hari ibirangantego bitatu by'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo n'abagore bafite ibitambaro bibiri byanditseho amagambo amwe y'uko twakuririnda kanseri y'ibere, bambaye yunifomu hejuru. Inyuma yaho hari ibiti ndetse hari n'urugo ruriho porotayi.

mugore ateruye mwana akiyateze igitambaro mu mutwe. Inyuma ye hari umugabo wipfumbase ndetse n'abandi bambaye impuzankano y'abanyeshuri ndetse na karuvati.

Abakobwa bambaye imipira isa hejuru bari ku murongo bahagaze imbere y'inzu iruhande rw'ikirahure bafite amakadere ane, buri cadere iriho ifoto y'umugore wambaye umupira w'ubururu.

Kwa muganga bari gusuzuma abarwayi babapima amaraso ku rutoki, inyuma yabo hari umugabo wambaye ijire ndetse hari n'umugore uri hagati wambaye umupira w'umukara ndetse n'igitambaro cy'umweru.

Abantu bambaye yunifomu z'abaganga, imbere hari televiziyo ebyiri, imwe iri munsi y'indi, bafite ibyuma by'ikoranabuhanga mu ntoki bicometseho imigozi y'amashanyarazi.

Abantu bicaye muri sale, imbere hari abantu batanu bahari, abadamu bicaye imbere yabo bari kubigisha, abandi bateze amatwi bamwe bari kwandika.

Umugore n' numugabo bicaye mu nzu, hagati yabo hari abana batatu, babiri muri bo nibo bambaye imyenda y'ishuri, uyu mugabo yambaye ishati y'umweru ya maboko maremare ndetse n'inkweto z'umukara.

Abagore umunani bicaye ku murongo, bari kureba mu cyerekezo kimwe, bicaye mu nzu, iyo nzu ifite ibirahure, bakenyeye ibitenge, ku ruhande hari umugabo utagaragara neza uhicaye.

Umugore wicaye iruhande rw'icyapa n'umukobwa uri munsi y'ikigega, hirya hari umugabo wicaye ku ntebe wambaye ingofero ari kumwe n'abandi bagore.

Mu cyumba cy'abarwayi, harimo ibitanda byinshi ndetse ibitanda bibiri nibyo biryamyeho abantu, icyo mo hagati nta muntu ukiryamyeho. Ku miryango hamanitse amarido ndetse hejuru y'ibitanda hagiye hariho inzitiramibu.

Mu nzu ahantu harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo ameza ndetse n'intebe, ndetse hari aho bacomeka imigozi y'amashanyarazi bacagingaho hacometse n'umugozi utukura.

Abagabo bicaye ku ntebe, imbere yabo hari agacupa karimo amazi y'uruganda rw'Inyange, bafite mashini mu ntoki, umugabo uri hino yambaye rinete mu gahanga, hirya naho hari abantu bambaye kositimu, amakote y'umukara, bafite amazi mu ducupa, hejuru yabo hari icyapa n'amatara.

Abantu batatu bambaye impuzankano y'abaganga bose bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo hateretse ubucupa bw'umweru ndetse hari n'ibimashini, hari n'umugore wambaye agapfukamunwa n'ingofero by'umweru, ahagaze imbere y'izindi mashini zihari

Inzu, iruhande rw'inzu hari umuhanda ndetse muri uwo muhanda hari umuntu uri kugenda asanga iyo inzu, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani burimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hirya y'ibendera ryigihugu cy'u Rwanda hari igiti kinini ndetse n'andi mazu ahari ku ruhande.

Muri salle, hejuru harimo amatara ari kwaka, hirya hari imiryango ikinze ndetse hari n'imiryango ikinguye, mo hagati haciyemo umurongo w’umukara.

Hari icyapa kigaragaza ko ari mu karere ka Nyarugenge, imbere yaho hateye indabyo, mu muhanda hashashemo amapave hariho na buroke. Amagambo yandikishije icyo cyapa ni umweru, icyo cyapa kiriho ibara ry'umukara.

Abagore babiri bifubitse ibitenge bicaye ku rukuta rw'amabuye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'ingofero, hino hirya yabo hari umugabo wicaye wambaye agapira wipfumbase, hirya ye hari umugore, hirya ku rundi rukuta rw'amabuye hari abantu babiri, umwe wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira utukura, hirya hari abandi bahahagaze imbere y'inzu.

Ni mu busitani, hari ibyuma abana bakiri bato bicundaho, inyuma y'ubwo busitani hari urugo rwubakishije amatafari, ndetse n'amashuri.

Ibitanda biri ku murongo biriho imisego ibiri ibiri kuri buri gitanda, ruguru y'itanda hari televiziyo ndetse hari n'amamashini acometseho imigozi ku madirishya naho harimo ibirahure by'umweru.

Kwa muganga, aho ababyeyi babyarira, hari abagore bane bambaye impuzankano y'abaganga n'udupfukamunwa ndetse babiri muri bo bambaye, imidari mu ijosi.

Kwa muganga hari indabo ndetse hicaye abantu mu rubaraza rw'inzu, imbere y'umuryango bategereje guhabwa serivise.

Umugabo uryamye ku gitanda agaramye, yambaye agapfukanwa k'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, umugore wambaye impuzankano y'abaganga ndetse na ga, ari kumutera urushinge ku kaboko ndetse kw'ako kaboko hanahambiriyeho akantu k'ubururu.

Igitambaro kimanitse ku nzu, imbere hari imodoka y'umukara, ndetse muri iyo nzu hari gusohokamo abantu, iruhande haparitse imodoka ebyiri z'umweru.

Abagore babiri, umwe uri imbere ateruye umwana, yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari umugore wambaye amarinete n'ikanzu y'ubururu iriho akabara k'umweru ku ijosi.

Abagabo n'abagore bari imbere y'imbuga kwa muganga, abagabo babiri bambaye ishati y'umweru, bo bafite imbago, abandi bahagaze babitegereza. Umugabo uri kuruhande, afite agakayi mu ntoki, mu mbuga bahagaze hashashemo amapavi.

Umugabo wambaye ishaketi y'umukara ahagaze hagati y'abadamu bane, babiri ibumoso, abandi babiri iburyo, bahagaze mu muryango. Hejuru y'umuryango hari icyapa.

Mu muhanda iruhande rw'ibitaro bikuru bya Ruhengeri hari abantu b'urujya n'uruza bari mu muhanda ndetse n'imodoka, bamwe bikoreye amabasi abandi bikoreye imifuka.

Abantu bahagaze: umwe w'umugore wambaye ipantaro abasutamye imbere, bahagaze bari kwifotoza, abagabo babiri begamiye ku cyapa, bahagaze mu busitani, iruhande rw'umuhanda.

Abantu bicaye ku murongo imbere yabo hari umugabo uhagaze ndetse hari abantu b'urujya n'uruza hirya bari kuza abandi bagenda.

Umugore n'umugabo bicaye bari kuganira umugore ari kumwereka amuha n'ingero nyuma yabo hari inzu irunzemo inkwi ndetse n'imbase iya nyuma ya hari indabo ndetse hari n'urutoki.

Umugore n'umugabo, umugabo wambaye inifomu y'abaganga ari kuganira n'uyu mugore, uyu mugabo arishimye afite tabuleti mu ntoki, uyu mugore bari kumwe yifashe ku nda yambaye ikanzu.

Umuganga wambaye yunifomo y'ubururu, ari kuvura umuntu uryamye ku gitanda, hejuru y'uwo muntu uryamye ku gitanda hacometse imashini, inyuma y'uwo muganga hamanitse umugozi utukura ndetse hari n'izindi mashini zihacometse.

Abantu batatu bicaye ku meza inyuma yabo hari umugabo wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga hari umurongo munini bari kwerekeza imbere y'ayo meza hari intebe ziri imbere yabo ndetse n'interabe ziri hagati y'urubaho.

Mu cyumba hama harimo ibitanda byinshi, hamanitsemo n'inzitiramibu z'ubururu, umugabo uri kuzimanika yambaye umupira w'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara, arahagaze iruhande rw'igitanda.

Inzu, iruhande rw'iyo nzu hari geride iteyemo indabo, ku ruhande rwo hirya hari ururabo ruteye iruhande rw'akayira k'abagenzi, umuhanda ujyayo ni kaburimbo, iyo nzu ishakakaje amabati ndetse yanditseho n'amagambo imbere.

Icyumba kirimo igitanda ndetse hirya ku ruhande hari aho bamanika rido, hino hari urukarabiro n'umuryango ku gitanda hari kuvureri n'umusego.

Ibitanda bibiri, hagati y'ibyo bitanda bibiri hari ameza. Ku mutwe w'ibyo bitanda hari amadirishya amanitseho rido ndetse n'imashini zicometseho imigozi, ibyo bitanda bifiteho amapine.

Mu nzu umugore uri ku gishushanyo ufite rineti, undi uri inyuma ye afite ikintu mu ntoki ari kwerekana, hejuru yabo hari itara riri kwaka no muri purofe hejuru hari irindi ririmo ryaka.

Bambaye yunifomu y'abaganga, umugore n'umugabo bahanze amaso imbere yabo, ku meza hari umugozi ucometse muri pirize, ndetse hari amata n'akapipiri, ndetse umugore umwe afite ikirahure mu ntoki.

Igitanda kiriho imisego ibiri igerekeranye, hejuru yacyo hariho amapurize abiri acometseho imigozi itatu, hirya ku ruhande hari amamashini ndetse hari na televiziyo.

Igitanda kirimo ibintu bitandukanye, imashini ndetse na matera iri mu gitambaro cy'umweru ndetse hari n'indi matela iri mu gitambaro cy'amabara, igaragara agace gatoya hino. Hirya hari imashini ziteretse kandi zinacometse.

Aho imihanda ibirihurira uzamuka ndetse n'uca hepfo, hari abantu b'urujya n'uruza aho uwo muhanda uhurira n'undi harimo akapa gatoya, ku ruhande rwo ruguru hari icyapa kiri mu busitani, uyu muhanda ushashemo amapave, hepfo y'umuhanda hari ubusitani ndetse harimo n'ibiti byinshi.

Icyapa kiri mu muhanda, hirya hari inzu ndetse n'ubusitani buteyemo igiti ndetse mu muhanda harimo amabuye ya garaviye.

Inzu iriho cyapa gishushanyijeho umubyeyi utwite, munsi y'icyo cyapa hari abantu bagaragara imitwe, hirya hari imiryango itatu, hejuru hari amadirishya atatu, andi hari garidefo ziri hejuru y'icyo cyapa.

Mu nzu mu imbere hashashemo amakaro kandi hejuru hamanitsemo ibipapuro, hejuru harimo purafo zirimo amatara, mu iguni harimo ururabo ruhateretse, ku muryango wo hino hejuru hariho utubara dutatu dutukura.

Ku kigo nderabuzima, imbere hariho icyapa kigaragaza icyo kigo aho giherereye, hino imbere yaho hari ururabo ndetse hari n'umuntu, umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umukara, hejuru ye hamanitse igitambaro, iruhande rwe hari ururabo.

Umugabo wambaye yunifomo y'abaganga ndetse n'umudari mu ijosi, yambaye ga abaganga bambara bari kuvura, ari gutera umugabo wicaye urushinge ku rutugu, wambaye isengeri y'umweru.

Umudamu ufite imisatsi mu mutwe, yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye impuzankano y'abaganga, afite mashini, arimo arakoresha mashini, iruhande rwe hari ameza ateretseho utundi tumashini.

Kwa muganga aho ababyeyi babyarira, iruhande rw'umuryango hicaye abantu, imbere yabo hari ameza. Hari umugore uhagurutse wegereye ameza kandi hari n'umugabo uri imbere urimo urababwira, bose bamuhanze amaso.

Umugabo uryamye n'undi wicaye, uryamye agaramye amanitse akaguru ku rutugu rw'uwicaye iruhande rwe, yambaye umupira w'umukara, arimo aramufasha ku kaguru yagizeho ikibazo. Uyu uryamye yambaye amasogisi y'umweru ndetse n'ijezi irimo akabara k'umweru.

Mu kibuga harimo urubyiruko rw'ingeri zose abatoya ndetse n'abakuze, imbere yaho hari umugabo wambaye umupira w'umweru, urimo urabaha amabwiriza y'ibyo bari gukora, bamwe bahagaze mu buryo bari kubyina, abandi bahagaze mu buryo bari kugenda, abandi bahagaze bari kwitegereza.

Iruhande rw'ikibuga hari umukinnyi uri kumwe n'umuganga uyu mukinnyi ntagaragara mu maso yavunitse akaboko uyu muganga yambaye isaha ndetse n'agapfukamunwa ndetse n'agapira k'umukara.

Umusore uryamye ku gitanda, yamanitse akaguru ku mashini ikagorora. Hano ku ruhande hari akaboko gafashe ukuguru kwasigaye k'uyu musore, hirya hari abagabo bumiwe babiri, umwe yambaye karuvati itukura, undi karuvati y'umukara.

Umukobwa wicaye ari kwinanura yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro ya siporo, imbere ye hateretse mashini ndetse n'utundi tuntu akoresha siporo hamwe n'agapipiri karimo amazi.

Akantu gashushanyijeho umusaraba, uri mu ibara ritukura, hejuru yako hari dorone, hirya hari ibiti, ndetse no ku ruhande rwo hino, hari ibiti, aka kantu gahagazeho dorone, gahagaze mu muhanda hagati.

Umugabo uryamye ku gitanda wavunitse akaguru, bari kumuvura, eeeeh umuganga yambaye inifomu zijya kuba ubururu ya ubururu ndetse n'umudari

Mu kibuga umuganga ndetse n'umukinnyi uryamye wavunitse wambaye amasogisi y'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara n'agapira k'ubururu, iruhande rwabo hari umupira ndetse uyu muganga yambaye inkweto zitukura hirya hari n'igikapu ari kwifashisha akuramo ibikoresho.

Mu muhanda harimo imodoka, imbangukiragutabara igeze mu ikoni mu ihuriro ry'imihanda ibiri, hejuru y'umuhanda hari ibiti ndetse n'amapoto.

Umugabo ugaragara igice kimwe cyo mu maso, amazuru ndetse n'umunwa ndetse n'akananwa, ari kunywa amazi ari mu gapipiri, agafite mu kiganza.

Umugabo uri kwikanda mu ivi, yambaye umupira w'amaboko maremare n'inkweto zirimo amabara y'umukara n'umweru ndetse n'amasogisi y'umweru.

Umugabo wambaye impuzankano y'abaganga, afite kasike y'ibara ritukura mu ntoki, iruhande mu nzu hari kizimyamwoto, inyuma ye ku rukuta hari umuryango ucometseho sharijeri.

Umukobwa wicaye kuri tapi imbere ye hari mashini ndetse ku ruhande hari umugozi wa siporo, inyuma ye hari intebe, yambaye isengeri y'umukara, akaboko yakazamuye yacishije munsi y'akaboko akandi kaboko, yifashe ku rutugu.

Umukobwa wambaye isengeri n'ipantaro y'umukara, yicaye ahinnye akaguru k'ibumoso, akaguru k'iburyo yakarambuye ndetse n'akaboko k'iburyo yakarambuye, akaboko k'ibumoso gafashe ku ivi ndetse akaboko k'iburyo kafashe ku mano ku rukweto.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'umuntu uryamye kugitanda bose bambaye karuvati, umwe yifashe ku kananwa, undi uri hino wambaye ishati y'umweru afashe umuntu uryamye ku gitanda akaguru.

Gafite ubugari bwa santimetero mirongo itandatu n’umunani ndetse n’uburebure bwa santimetero mirongo icyenda n’imwe kandi gafite ubuhagarike bwa santimetero ijana n’imwe, kuri ako kantu hariho umwenda w'ubururu.

Avoka, pome, amaronji, ndetse n'ingute irimo ibinyobwa, iruhande rwazo hateretse icyuma bifashisha abari muri siporo ariteri.

Umugozi bakoresha basimbuka ndetse n'akantu bafata mu ntoki ka siporo gakomeza imitsi n'inkweto bajyana muri siporo, hari isahani iri mu ishusho y'umutima, iriho urubuto rwa pome ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Umukobwa wicaye ku ntebe ugeretse akaguru ku kandi karambuye wambaye umupira utukura. Hirya hari umukobwa wambaye isengeri uhagaze n'ipantaro ahagaze iruhande rw'intebe yo kwicaraho ayifashe mu ntoki.

Icyuma gikoreshwa muri siporo, kiriho metero ndetse iruhande hari ikirahure kirimo ji, hino hari imbuto zitandukanye, amacunga, pome, inyeri ndetse n'ibindi.

Imbago ifite ibara ry'umukara hasi, ndetse ku kantu bafata kariho naho ibara ry'umukara, ahandi hasize ibara ry'umweru, imeze neza.

Umusore wambaye agapira gatukura ndetse n'agakabutura kagufiya, yagize ikibazo mu ivi. Umuganga amufashe akaguru, akandi kaboko kari gukora ku ivi, ahagize ikibazo.

Umukobwa uri kugorora umugongo usa n'uwubitse inda, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri ndetse imbere ye hateretse ururabo n'inyuma hari ivazi iteretsemo urundi rurabo.

Icyumba bari kuryamisha umuntu agaramye wambaye ishati y'umweru iriho agasaraba, inyuma yabo hari abantu bari batonze umurongo nabo bambaye imipira iriho agasaraba.

Umugabo wicaye uri kunywa akantu kari mu icupa ndetse yambaye koteri afite na telefoni mu ntoki, yambaye isaha yambaye ndetse n'umupira mu ijosi, yicaye ku ntebe ku ma esikariye yambaye n'inkweto z'umukara ziriho utubara tw'umweru ahagana hasi.

Abantu batandukanye bahagaze ku umurongo, bari kubyina bahagaze ahantu hashashe amapave. Iruhande rwabo hari ibiti.

Inkoni ebyiri zisize ibara ry'umukara n'umweru, ku umutwe aho bafata hari akakozi bifashisha bayimanika ahantu, hasi hari ibara ry'umukara ndetse n'ahantu inkoni bayishinga bagenda.

Umusore uri muri siporo, ari guterura ariteri, iruhande hari ibintu bigaragaza uburyo warya ukangana nk'uyu musore, amagi, imineke, inyama, imbuto ,ibyo kunywa, imboga ndetse n'amazi.

Kwa muganga, mu cyumba kirwariyemo abarwayi, hahagaze abagabo batatu ku ruhande rumwe, babiri bambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'umwe wambaye ikote ry'umukara. Iruhande rwabo hagaze umugore wambaye impuzankano nawe y'abaganga. Bari kwitegereza amakuru kuri televiziyo. Hirya yabo, hari ibitanda byicayeho abarwayi.

Ikirahure bari gusukamo amazi, kigiye kuzura, giteretse ahantu heza, hisanzuye.

Umukobwa uri muri siporo ngororamubiri, ari kugorora akaguru ndetse n'umugongo n'amaboko ayamanitse hejuru. Yambaye ibirenge n'ipantaro y'umukara. Inyuma hari urukuta rw'amatafari ndetse rurimo n'idirishya ririmo ikirahure. Hashashe amakaro ahantu ari gukorera siporo.

Umugabo wicaye uri kunywa amazi, yambaye umupira w'ingofero, ufite umufuka mu gatuza ndetse yambaye ikabutura y'umukara.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, utagaragara neza mu maso, bigaragara ko yari ari muri siporo, yakomeretse ku kaguru, yambaye isaha ku kuboko kandi n'urukweto yambaye kuri aka kaguru kagize ikibazo.

Ifoto igaragaza amafoto atandukanye y'umuntu uri muri siporo, ifoto ya mbere iri mu kaziga, iri kugaragaza ari kurambura akaboko kandi arasutamye, iya kabiri iri kugaragaza ari kurambura amaboko, iya gatatu ari kunanura amaboko by'umwihariko ikiganza, ifoto yo hasi ari kunanura akaguru akazamura inyuma.

Umugabo ,ufite ubwanwa ,uri kunywa ,amazi ari mu gapipiri, yambaye isengeri y'umukara, ndetse ku kaboko ke hari akantu k'icyatsi kibisi yambaye.

Umugabo wicaye, utagaragara mu maso, yambaye agapira k'amaboko magufiya, yagize ikibazo ku kaboko, afite agatambaro ari kuhakandisha, yambaye ipantaro y'umukara.

Umusore ugaragara amaguru n'amaboko ndetse no mu nda, yambaye ijezi y'umweru n'isaka ku kuboko, arambuye akaguru n'akaboko kari gukora ku mano y'akaguru karambuye.

Abantu babiri umwe aryamye ku gitanda, undi arahagaze uryamye ku gitanda yambaye imyenda ya siporo inkweto za siporo, yagize ikibazo ku kaguru umwe uhagaze ari kumukanda aho yagize ikibazo.

Abagabo batatu, umwe ahagaze ku rwego arimo arasiga irangi hejuru y'icyapa, undi afite udutambaro dutukura, undi ari inyuma yabo, afite igurude y'amazi.

Umuntu uri ku mazi ari mu icupa, ku mupfundikizo w'iryo cupa hari ibara ry'ubururu ndetse yambaye umupira w'ubururu n'icyatsi, mu ijosi yambaye igitambaro cy'umweru.

Yambaye agashinete mu ijosi, n'ishati y'umweru yamaboko maremare ndetse n'impeta ku kuboko. Afite agaswari k'ubururu, ari kwikanda ku kuboko kw'ibumoso.

Arabyutse ku gitanda kiriho agakuvureri n'imisego, yambaye ipantaro y'umukara isengeri y'umukara ari kwinanura.

Ibyuma bya siporo, iruhande hari ibyo kurya bitandukanye, hari imineke, korojete, pome, amacunga ndetse n'imboga.

Icupa ririmo amazi y'uruganda rwa Nile ari gusuka mu kirahure, ikirahure kirenda kuzura, ku ruhande aho ikirahure giteretse nta bindi bintu bihari hameze neza.

Umupira w'amaguru urimo amabara y'umukara n'umweru ndetse n'umupira wa volley ball ndetse n'umupira wa basket ndetse na kasike y'ubururu uriho akantu k'umukara imbere.

Umusore wambaye isengeri, ahagaze agaragaza igice cy'inyuma cyo mu mugongo, yambaye isaha ku kuboko ndetse amaboko yayazamuye ayashyira inyuma mu mutwe.

Ni ku kigo nderabuzima aho indege ntoya bita dorone itwara amaraso ihagurukira, ni hagati mu muhanda, iruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse n'amapoto ndetse no ku rundi ruhande hari ibiti ndetse n'inzu zitagaragara neza.

Mu murima hateyemo imbuto, hirya y'umurima hari ibiti, hari ishyamba ry'inzitane, imbuto ziteye zegeranye zigaragara zikiri ntoya.

Mu gihuru ahantu hari ibimera bitandukanye, hano imbere haragaragara ururabo cyangwa igiti giteye ahantu mu kanogo bacukuye neza, hirya hari ibiti bikuze ndetse impande zose hari ibihuru.

Ishami ry'igiti rifite amababi y'icyatsi kibisi, iruhande rwayo hari ibyatsi cyi'icyatsi kibisi nabyo, hirya ku ruhande hari ibyatsi biri mu ibara ryijimye by'umukara.

Ni mu kirere hagaragara amashami y'igiti ndetse n'ibicu biri mu kirere, kuri ayo mashami hariho ayagiye avaho amababi ndetse n'utwagiye twuma.

Umunwa n'amenyo munsi hari amacupa arimo umuti yoza amenyo uruhande hari amabwiriza yuko imiti ikoreshwa n'ukuntu ushobora gukoresha umuti hari na kode ushobora kunyuraho kugira ngo ubone bino bikoresho wakoresha woza amenyo.

Ururabo ruri ahantu heza iruhande rwarwo hari avoka isatuye iruhande rw'iyoboka isatuye hari indi voka idasatuye kandi iyo voka isatuye irimo ikibuto.

Umurima urimo ibihingwa, hari ukuboko kutagaragara neza, kugaragara intoki ebyiri zifashe ku kibabi kimwe cyigihingwa, ibyo bihingwa birasasiye kandi harimo n'amababi yumye yaguye hasi.

Umugore ufite marete mu ntoki, afite umwitero w'umweru, ari gusoroma imbuto hejuru hari ibirere by'insina.

Umugabo wambaye ishati yo mu maboko maremare, irimo amabara y'umweru, afite icupa mu ntoki kandi nyuma ye hari etajeri, irimo ayo amacupa menshi, imbere ye hari indobo ndetse n'uduti twanitse dufunze mu matsinda. Imbere y'utwo duti hino hari agacupa, bigaragara ko uyu mugabo ari umuvuzi.

Igihuru cyatemwe kikongera kigatoha, ibyatewe kuri iki gihuru byumiye hano hasi, ku ruhande hano hari ibyatsi byahameze birandaranda hirya inyuma hari ibindi bihuru.

Indabyo ebyiri, urutoya n'urunini, urunini rufite amashami atatu, urutoya na rwo rufite amashami, byose hamwe bifite ibibabi by'icyatsi kibisi.

Isahani, iruhande rw'iyo sahani hari imbuto, imineke, hirya hari avoka isatuye n'indi idasatuye.

Uruyuzi rufite amababi y’icyatsi kibisi, rufite indabyo eshatu ku ruhande rwo hino, ku ruhande rwo hirya hari ururabo rumwe, ku mutwe warwo hari ururabo rutarakura neza ndetse hari n'ibyatsi byahameze.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye bya kinyarwanda ,hari ikarito ,umufuka ndetse n'amabasa birimo ibyo bikoresho ,hari ikarita irimo inkoko n'umufuka urimo ibikombe ndetse n'udupiperi hari ibicuma ,imikerenke ndetse hari n'intebe ya kinyarwanda ku ntebe ya kinyarwanda hateretseho inkono muri iyi nkono harimo imbehe.